Abamureba bari kwiga, bari kwiga ibigendanye n'ikoranabuhanga, bari gufashanya kumenya ikoranabuhanga icyo ari cyo, no kumenya ibindi byose bigendanye n'ikoranabuhanga, ibindi byafasha ubuzima bwabo ariko bakabimenya bifashishije ikoranabuhanga.

Iyi n'inyubako yo kwa muganga igaragaza aho bakirira abarwayi baje bagana ibitaro, n'inyubako igezweho kuko abaje bagana ibitaro babona aho baruhukira mbere yuko mu gihe bategereje ubakira cyangwa mu gihe bategereje ubafasha.

Uyu ni umuti usigwa inyuma ku mubiri. Uvura indwara z’imitsi, kubabara mu ngingo n'umugongo. Urimo emusiyemu na girikosamini, bifasha mu kurinda ububabare no gutuma ingingo zorohera.